Abagore batatu n'umwana umwe n'abagabo babiri, bicaye bari kuganira. Umugore ikiganiro cyamuryoheye, wambaye umupira w'ubururu arimo araseka, umwana nawe arimo arareba mama wiwe umuri iruhande wicaye hagati yiwe n'umugore wambaye igitambaro cy'icyatsi.